Ibyo kurya n'ibyo kunywa ni ingenzi ku buzima bwa buri muntu wese, bityo umuntu wese aharanira ko abibona, atarinze kwicwa n'inzara cyangwa n'inyota, akabibonera nko mu mabare, mu maresitora, ndetse n'ahandi biboneka.

Ni byiza ko abacuruzi bacuruza utubare bagomba kuba bafite ibinyobwa bitandukanye harimo: ibisindisha, n'ibidasindisha, fanta, juwice, amaji, mitsingi, pirimusi, ndetse n'izindi.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye ahantu bacuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa, ndetse ni byiza ko umuntu wese akwiriye kugira igihe abonera amafunguro kugira ngo inzara itaza kumugirira nabi.

Ni ngombwa ko ahantu bafatira amafunguro hagomba kuba hari isuku, ndetse hari sarade, ya avoka, karoti, amashu, kokombure, ndetse n'ibindi, inanasi n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ahafatirwa ibyo kurya n'ibyo kunywa baje kwihaza, ni byiza ko baba bafite ikibaranga.

Inzu z'ubucuruzi ni byiza ko bandikaho ibicuruzwa birimo, kugira ngo buri wese abone ibyo akeneye, ndetse amenye n'igikorerwa muri iyo nzu.

Ni byiza ko ahakorerwa imirimo y'ubucuruzi, tugomba kuhashyira ibyapa bigaragaza igikorwa gikorerwa aho hantu, ndetse n'ibicuruzwa bibamo. Urugero, nk'inzu za Emutiyeni.

Inzu z’ubucuruzi usanga harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hari aho bacuruza ibikoresho by’amagare nk’imipine, insinga, ndetse n’ibindi.

Ni byiza ko inzu zicururizwamo inzoga, hagomba kuba hariho ibyapa bishushanyijeho ibicuruzwa bya bo, kugira ngo hatagira uyoba ngo ajye kubishakira aho bitari.

Inzu z' ubucuruzi zicuruza imyenda y' abana zigomba, kuba zifite ibintu bitandukanye; amasogisi, ingofero, amashuka, amasume ndetse n' ibindi.

Ubucuruzi bugiye butandukanye bufite ibicuruzwa bitandukanye byorohera abaturage babikeneye kubibonera hafi bitabafashe urugendo runini ku buryo n'iyo bagiye ku iduka babibona, urugero: nk' iduka rifite umuceri, ibishyimbo ndetse n'ibindi.

Ni ingenzi cyane ko kuri Botike yawe ugomba gushyiraho icyapa cyangwa se ikirango cyerekana ibirimo kugira ngo umuntu wese abashe gusobanukirwa n'ibirimo kabone n'ubwo yaba atazi gusoma . Ariko iyo abonyeho isura y'ikintu akeneye abasha kujya kukibaririza aho hantu bitamugoye.

Urujya n'uruza rw'abantu binjira mu nzu z'ubucuruzi bashakamo ibicuruzwa bakeneye. Ni byiza ko buri mucuruzi wese ashyiraho icyapa kigaragaza ibicuruzwa bye.

Ni byiza ko inzu z'ubucuruzi zigomba kuba zifite ibirango, bigaragaza ko aho hantu hakorerwa igikorwa cy'ubucuruzi, ndetse n'ibicuruzwa birimo, ubikeneye akabibona bitamugoye.

Si byiza ko inzu z'ubucuruzi zishyirwaho imyenda mu muryango kugira ngo abantu nibatambuka babone ibicuruzwa birimo cyangwa se hagashyirwaho ibyapa bigaragaza ko aho hantu hakorerwa ubucuruzi ndetse n'ibicuruzwa birimo.

Umucuruzi ucuruza ibikoresho bya siporo agomba kuba afite imyenda ya siporo, balo, imipira, ndetse n’inkweto za siporo.

Si byiza ko inzu z'ubucuruzi, zigomba kuba zifunze igihe kinini, kuko bituma abakeneye ibicuruzwa batabona aho babishakira, bikabasaba gukora urugendo rurerure.

Ni byiza ko abacuruzi bacuruza imiti y'amatungo, bagomba gushyiraho ibyapa bishushanyijeho amatungo, ndetse n'imiti kugira ngo ubikeneye abashe kubibona bitamugoye.

Ni byiza ko umucuruzi acuruza ibintu bitandukanye kugira ngo abakeneye ibicuruzwa babibone batagiye kure cyangwa se bitabasabye gukora urugendo rurerure.

Ni byiza ko mu iduka haba harimo ibintu bigiye bitandukanye. Nk'amashuka, kuvurori, imipira y'imbeho, imipira y'abadamu, utubodi, udukapu, ndetse n'ibindi. Birafasha cyane ku muntu ubikeneye abibonera hamwe.

Birakwiyeko kuri botiki yawe wandikaho ibyo ucuruza ugashyiraho menu y'ibyo ufite, kuko bituma umuturage ubikeneye abibonera hafi cyane ko buri wese agenda asoma.

Botike ni ahantu bacururiza ibintu bigiye bitandukanye harimo ibyo kurya, ibyo kwambara ndetse n'ibindi byinshi. Biba byiza iyo umucuruzi ashyizeho icyapa kigaragaza ibyo acuruza kugira ngo buri wese abimenye.

Butike ni inzu umuntu yashyiramo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, bityo umuntu ukeneye icyo gicuruzwa akajya kukibonera hafi bitamusabye gukora urugendo rurerure. Ashobora gushyiramo ibyo kurya, imyambaro ndetse n'ibindi.

Kwihangira imirimo ntabwo bisaba igishoro kinini. Nubwo waba ufite igishoro gitoya wagikoresha wihangira imirimo mu bintu bikeya. Uko ugiye wunguka ukagenda wongera. Bityo ubucuruzi bwawe bukiyongera cyangwa se umushinga wateguye ukiyongera.

Aho bacururiza imiti ivura amatungo nk'inka na ho hafatwa nk'iduka, gusa buri duka riba rigomba kugira ikirango cyerekana ibirimo kugira ngo hatagira uza guhuzagurika cyangwa ngo ayobe ajye aho badakeneye.

Inzu z'ubucuruzi zigomba kuba zifite ibicuruzwa bitandukanye, ndetse bakibuka gushyiraho ibirango, byerekana ko aho hakorerwa ubucuruzi, buri wese akabona icyo akeneye bitamugoye.

Ni byiza ko urubyiruko rukomeza kwiteza imbere, ndetse bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, begereza irembo hafi y'abaturage.

Ni byiza ko inzu z'ubucuruzi zigomba kuba zifite ibyapa byerekana icyo bakoreramo, ndetse zifite n'ibirango by’aho bakorera.

Ni byiza ko tugaragaza ibicuruzwa ducuruza mu masoko yateye imbere kugira ngo umuntu wese uza ashaka ikintu bitaza kumugora ayoberwa aho agishakira.

Ni byiza ko inzu zicururizwamo ibyo kurya zigomba kuba zifite ibikoresho by'ikoranabuhanga nka gaze , ndetse bakagira imbabura yabugenewe , ipanu n'isafuriya ndetse n'ibindi.

Inzu zicururizwamo indabyo, zigomba kuba zifite isuku yo hejuru, ndetse hari n'icyapa kigaragaza igikorwa nyirizina, kugira ngo uzikeneye abibone byihuse.

Iduka ricururizwamo irangi ni byiza ko baba bafite amabara agiye atandukanye kuko buri muntu akunda ibara rye. Birafasha bituma ugiye kugura icyo gicuruzwa akigura yishimye kuko aba agikunze cyane.

Aho imodoka zaparitse, abazitwara bajya gushaka ibintu mu nzu z'ubucuruzi harimo amadomoro, imbabura, imikubuzo, imifuka, imiceri ndetse n'ibindi.

Aha biragaragara ko hari amazu y'ubucuruzi, akorerwamo imirimo itandukanye, hari ayo bacururizamo ibyo kurya n'ibyo kunywa, ndetse hari n'ayo bacururizamo ibijyanye no kubeta amafumu.

Iduka ni inzu ikorerwamo ibikorwa byubucuruzi，hagacururizwamo ibintu bitandukanye， harimo amasabune， amavuta， umunyu， ibyo kurya， ibishyimbo， ibyo kwambara， ndetse n'ibindi.

Abacuruzi ni ngombwa ko bafata ibyapa bagashyira ku nzu zabo z'ubucuruzi, bakagaragaza ibyo bacuruza kugira ngo umuntu ubishaka, ataza kuyoberwa aho biri akabibona vuba bitamugoye.

Ibyapa byamamaza bigaragaza ahantu neza， ndetse bikamenyekanisha igikorwa nyirizina kiri kubera aho hantu， ndetse ku buryo buri mugenzi wese biraza kumwereka icyo akeneye n'icyo yifuza.

Ni byiza ko abacuruzi bacuruza ibyo kurya bagomba kuba bafite amoko atandukanye , kugira ngo buri wese abone ibyo yifuza kandi akeneye.

Ni byiza ko abacuruzi bacuruza ibintu by'ikoranabuhanga bagomba kuba bafite amoko yose nka telefone z'ubwoko bwose, poshete, sharijeri, ndetse n'ibindi.

Abacuruzi bose, bafite inshingano zo gucuruza ibicuruzwa byabo, ndetse bagashyiraho ibyapa, bigaragaza ibyo bacuruza n'ibyo bakora.

Isoko rihuriramo ibicuruzwa byinshi ndetse na botike zicuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye yorohereza abatabifite kubibona mu buryo bworoshye nk'ukeneye irindazi akaribonera hafi, ukeneye imyenda yo kwambara akayibonera hafi.

Ni byiza ko kuri butike yacu, dushyiraho ibintu dufitemo imbere, cyangwa se ibintu ducuruza, kugira ngo buri muntu wese ukeneye ikintu, abashe gusoma cyane ko turi mu gihugu cyiteje imbere, mu kwihugura gusoma no kwandika. N'abatari babizi ubu hari amashuri abibigisha.

Botike mu gihe ushakako itera imbere uba ugomba gushyiraho icyapa cyamamaza ibintu ukoreramo, kugira ngo ubashe kubona abakiriya b'imena.

Inzu zubucuruzi ni byiza ko zigira ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo nk'ibikoresho by'amashanyarazi, amapombo n'ibindi kuko bikenerwa n'abaturage cyane.

Butike ni' inyubako usanga ikubiyemo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, harimo ibyo kurya, ibyo kunywa, ibyo kwambara, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Inzu z'ubucuruzi zigomba kuba zifite ibyapa bigaragaza ibicuruzwa byabo, kugira ngo umuntu ukeneye icyo gicuruzwa abashe kukibona bitamugoye kandi vuba.

Ni byiza ko inzu z'ubucuruzi ziba zifite isuku ihagije, ndetse bagashyiraho ibyapa bigaragaza ibyo bacuruza, kugira ngo umuntu wese ukeneye icyo gicuruzwa akibone byoroshye.

N'ingenzi cyane ko aho ducururiza ibicuruzwa byacu, bigiye bitandukanye, buri mucuruzi wese agomba kuhashyira icyapa cyerekana ibyo akora, kugira ngo umuntu ubikeneye abashe kubibona bitamugoye.

Si byiza ko inzu zubucuruzi zifunga igihe kinini, kandi biba byiza iyo iyo nzu iriho icyapa kigaragaza ibicuruzwa birimo. Kugira ngo umuntu ubishaka abibone ndetse bagashyiraho n'imyirondoro yabo ku buryo wababona byoroshye.

Uruhurirane rw'amakorali n'abandi bizera, aho bahuriye mu nzu y'Imana baramya, ni byiza ko bishyira hamwe bakanezerwa bagatanga amaturo n'ibindi.

Ni byiza ko abantu bibumbiye hamwe bakorera mu mashyirahamwe, bagomba gufata umusaruro wabo bakawubitsa mu mabanki, kuko bibafasha kumenya umusaruro uko ungana.

Uruhurirane rw'abaturage bahuriye mu masoko, aho bacururiza ibintu bitandukanye, hari ibyo kurya ibyo kunwa ibyo kwambara, ndetse n'ibindi.

Ba rwiyemezamirimo bafite akamaro gakomeye. Cyane ku baturage iyo bubatse amahoteli cyangwa se amacumbi bituma abaturage bamwe na bamwe bahabwa akazi bityo bakiteza imbere bakagera ku nzozi zabo.

Inyubako za hoteli aho bakirira abantu batandukanye bitewe na serivisi bashaka, ni byiza ko ziba zifite umutekano uhagije, kugira ngo bataza kubangamirwa.

Uruhurirane rw'abantu bateraniye ahacururizwa imyenda itandukanye, iy'abagabo, iy'abagore, ndetse n'imyenda y'abana.

Ibicuruzwa nk'amavuta, ibyo kurya, ndetse n'imyambaro, bigomba kuba bifunitse neza, ndetse no mu makarito yabyo, bakaguhereza na fagitire, igihe ugiye kubigura.

Urujya n'uruza rwateraniye aho bacururiza imyaka igiye itandukanye usanga hari ibirayi ,ibitoke, ibijumba, imifuka yo guhahiramo ndetse n'ibindi.

Uruvangitirane rw' imyenda ndetse n' ibikoresho ku isoko aho bacuruza, amapantaro, amashati, imipira y' imbeho, mare, indobo, ibase, varize ndetse n' ibindi...

Imboga zidufitiye akamaro kanini cyane zidufasha kubona intungamubiri ndetse bikadufasha kwiteza imbere urugero nka shufurere, amashu n'izindi zigiye zitandukanye.

Uruhurirane rw'abantu bahuriye ahacururizwa imyaka itandukanye, baje gushaka ibyo kurya, ibitunguru, amashu, ibihaza, ibidodoki ndetse n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye ku isoko, bazanye imyaka bejeje mu mirima yabo, kugira ngo abantu batayifite babashe kuyibonera hafi ibirayi, ibishyimbo ndetse n'ibindi,

Amasoko ni ingirakamaro kuri buri muntu wese, kuko adufasha kubona ibyo dukeneye, ku isoko ibyokurya ndetse n'imyambaro , bityo bigatuma n'uwihangiye iyo mirimo abasha gukomeza kwagura buzinesi ye, umushinga ukiyongera.

Ubucuruzi bw'inkweto ni kimwe mu bintu biteza urubyiruko imbere cyane ko inkweto usanga hari abantu benshi bazikeneye, iyo ufite inkweto z'ubwoko bwose, inkweto zifunze, izifunguye ,balilene ,mwamini ndetse n'izindi.

Amasoko dusanga hacururizwa ibintu byinshi bitandukanye, harimo amavuta y'abagore, hakabamo kanta yo gushyira mu misatsi y'abagore, ndetse n'ibindi.

Uruhurirane rw'abahinzi bazanye imyaka ku isoko, kugira ngo abatayifite bayibonere hafi, harimo intoryi, inyanya, ibirayi, beterave, ibijumba, ndetse n'ibindi.

Mu masoko usanga hari abacuruzi, ndetse n'abaguzi bateranye, bashaka ibyo bakeneye, inkweto, imyenda, ibyo kurya, ndetse n'ibindi.

Aho abacuruzi bacuruza ibihingwa bitandukanye by'imyaka ndetse n'imbuto inanasi, ibirayi, ibijumba ndetse n'ibindi.

Uruhurirane rw'abacuruzi bazanye ibicuruzwa ku isoko, aho bateraniye hari ibirayi, ibijumba ibishyimbo, imbabura ndetse n'ibindi.

Ku isoko dusangayo ibicuruzwa bitandukanye harimo amasabune atandukanye kameru, asante. Tukahasanga amavuta atandukanye moviti ndetse n'amavuta y'inka n'ibindi.

Ku masoko usangaho ibikoresho bitandukanye bacuruza, ndetse bagamije kwiteza imbere, harimo amatoroshi, ibibiriti, imyunyu, amasafuriya ndetse n'ibindi.

Kugira ubucuruzi butandukanye, ukagira imyenda igye itandukanye ni byiza kuko bifasha wa muntu utayifite uyikeneye kuyibona bitamugoye. Urugero nko gucuruza amasogisi, inkweto, amakoti, amashati, ndetse n'amakanzu n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye aho bacururiza imyaka nk'ibirayi, ibishyimbo, ibigori ,amashyaza, ibyo kwambara ,imyenda ndetse n'ibindi.

Uruhurirane rw'abantu bateraniye ahacururizwa imyaka itandukanye, abaje kugura iyo myaka ndetse n'abaje kuyigurisha kugira ngo abatayifite bayibone bitabagoye inyanya, ibihaza, amashu ,imyembe, imineke ndetse n'ibindi.

Ubucuruzi bwiganjemo ibitoki, amashyaza, ibishyimbo n'ibijumba ni byiza ko amasoko yatwegereye.

Ku isoko hagomba kuba hari ibicuruzwa bitandukanye kugira ngo ababikeneye babibone byose bitabagoye. Hari amavuta, ibyo kurya, ibyo kwambara, ibyo kunywa ndetse n'ibindi.

Uruhurirane rw'abantu bahuriye ahacururizwa ibikoresho bitandukanye, imyenda, indobo, amabase, ubupaniye ndetse n'ibindi.

Uruhurirane rw'abantu, rwahuriye aho bacururiza imyenda itandukanye, harimo amakabutura, amapantaro, imipira yo kwifubika, amakanzu, ndetse n'ibindi.

Uruvangitirane rw'ibicuruzwa bazanye ku isoko harimo: ibitoki, inyanya, amashu, imyembe, pome, imboga, karoti ndetse n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu baza bagana mu isoko aho bacururiza ibicuruzwa byinshi bitandukanye, ndetse babanza kunyura ku muntu ushinzwe umutekano akabanza kubasaka.

Urujya n'uruza rw'abantu， bateraniye ahacururizwa amatungo magufi， nk'inkoko bayazanye kugira ngo， abakeneye inkoko zo korora batazifite， bazibonere hafi，ndetse n'abakeneye inkoko zo kurya， bazibone hafi.